Ifi yokeje iraryoha, isize ibirungo, ukayitegura ku ipalato ukayishira Ku meza, kuyireba ubwabyo biba biryoheye amaso.

Ndi hafi kugera kuri kiyosike ya Emutiyeni, hakuno y'urusengero. Ndi kureba ngasanga hadakinguye, sinzi aho ndabikuriza amafaranga.

Imbabura yotsa neza, ishobora kotsa ibigori, ikotsa ibirayi. Ibintu byokeje biraryoha.